Umwuga wo kurinda umutekano ni umwuga mwiza cane kuberako abawukora babonaga amafaranga, amafaranga avuye mu kuba barinze umutekano bakoze akazi kabo neza ,abaturage bakishima kuberako babaho mu mahoro nta kibazo na kimwe bafite.

Iyi yitwaga feruje itumaga amamodoka amenya hamwe icerekezo, akamenya igihe ari buhagararire, akamenya n'igihe ari bugendere n'abagenzi bakamenya igihe bari bugararire cangwa igihe bari bugende bigatuma nta mpanuka ziba mu muhanda, ibintu byose bikagenda neza mu muhanda ndetse zishobora no gusimbura abapolisi.

Umwuga wo gucunga umutekano ni umwuga mwiza cane ni umwuga ushobora kuba wagufasha kugira ubashe kuba wamenya ukuntu ubana n'abandi umenya ukuntu wayobora abandi umenya n'uburyo bwo kwihangana kurinda abantu canga se warinda umutekano w'abantu ni umwuga mwiza cane ushobora no kuba waguha amafaranga ukabaho neza wishimye.

Gucunga umutekano ni ibintu byiza cyane, cyane cyane iyo uwucunze ufite ibikoresho bizima, ufite imbwa, ufite n'imbunda biragufasha ukirinda igihe uhuye n'ikibazo, ikindi kandi, imbwa ziragufasha gushakisha, iri gushakisha ibyabuze, ibitaboneshwa amaso, nk'amaso y'abantu imbwa zibasha kubibona, maze umutekano ukaguma ari wose.

Umwuga wo kurinda abantu ni mwiza cyane. Ushobora kubarinda, ukabarinda abanzi ,ukabarinda ibibakoma ,ukabarinda buri kimwe cyose, bikagufasha nawe kubona amafaranga .Umuntu ushinzwe umutekano w'abantu ushobora kuba wabona amafaranga yo kwishyurira abana amashuri n'andi yo gukemura ibibazo byawe ufite mu urugo.

Burya inama zibaga nziza cyane, kuko iyo hakozwe inama niho hafatirwa mo myanzuro ku bibazo byananiranye, ibintu byose byananiranye bikajya ku murongo biturutse mu guhanahana ibitekerezo, abantu bahanahanye ibitekerezo banarushagaho gutera imbere, kubw'uko ibintu byose bagendera mu mu mujyo umwe, bikabafasha kuba batera imbere nta n'umwe usigaye.

Guhura n'abantu mukaganira ni ibintu byiza cane kuko bituma n'igihe mufitanye ikibazo mu gikemura , mu binyuze mu biganiro cyangwa se haba hari n'ukuntu, mutari mu meranye neza umubano ukagaruka bitewe n'uko muri kumwe.

Inama ni ikintu kiyiza cyane kubera ko iyo abaturage tugiye mu nama tujagayo twamara kujayo, abayobozi bakatubwira amabwiriza kumwe n'amategeko tugomba kugenderaho natwe tukungurana ibitekerezo nk'abaturage, tukabasha kuba twagira imyanzuro imwe ni imwe dufata, mu buryo bwo kwiteza imbere.

Umuco wo gukina igisoro ni umuco mwiza cyane kubera ko bifasha umuntu kuruhura mu mutwe . Iyo umuntu yaruhuye mu mutwe ,bimufasha gutekereza neza. Iyo utekereza neza, bigufasha kuba utabangamira abandi ndetse ukanagira utya ukagira n'ibikorwa byinshi bigufasha kwiteza imbere mu mutwe wawe .

Ikigage cabaga ciza cane， ndetse no kuri ubu ciracari ciza cane， gihuzaga abantu bakanywa bari kuganira，bagakemura ibibazo byabo， hari n'abagicuruzaga，bakagicuruza， bakabona amafaranga go gukemura ibibazo byabo.

Uduseke ni igikoresho ciza ca kera kiranga umuco nyarwanda, abantu benshi badukoreshaga bari kuja mu bukwe kugira ngo bajane amapfukire, ikindi kandi bakadukoresha batugurisha ndetse hari n'abadukoresha nk'umutako.

Umwuga wa butore wo guhamiriza ubaga mwiza cyane, kuko utumaga nk'umuntu uwukora ashimisha abandi. Abandi bakamubona ko ari kugaragara neza, nawe agahabwa amafaranga n'ababishinzwe, kubera ko aba yashimishije abantu muri rusange.

Umwuga wa gitore ni umwuga mwiza cane, ushobora kugufasha igihe uri guhamiriza, ukabaho wishimye kuko uhora useka, iyo umuntu ari kubyina ahoraga ari kwisekera, abagaho yishimye, bivuraga mu mutwe, bishobora no kuba umwuga bikaguhesha amafaranga, bikaba akazi kawe ka buri munsi.

Kumasha ni ibintu byiza cane，ni ibintu byakoreshwaga kera abantu bahiga， bahiga utunyamaswa two kugira ngo barye two mu ishyamba， ndetse kumasha washoboraga no kuba wahinduka umukino， ndetse na n’ubu ushobora kuba wahinduka umukino runaka，ugahuza impande zitandukanye.

Umwuga w'ubutore, umwuga wo guhamiriza ni umwuga mwiza cyane, ushobora gufasha abawukora kugira ngo birinde indwara, kuko rimwe na rimwe uhinduka siporo. Ikindi ukaba uko abawukora bashobora kuba bawugira akazi ka buri munsi, bagasusurutsa abantu mu birori bakabona amafaranga.

Ibiraro turabyubakaga tukabasha kuba twashyiramo amatungo gacu. Tukabasha kuba twakwiteza imbere binyuze mu kuba tutaragira ku gasozi, cyangwa ngo tugire ibindi bintu dukora. Inka zacu zikabaho neza cyangwa n'amahene yacu akabaho neza.

Inka z'inyambo ni inka nziza cane ndetse zaberwaga mu muco nyarwanda iyo zabaga ziri ahantu hamwe. Ikindi kandi inka zibashaga kuba zaduha amata, izindi zikaduha inyama, tukanazigurisha tukabona amafaranga, adufasha gukemura ibindi bibazo.

Guhamiriza ni umuco mwiza ,umuco nyarwanda wahozeho kuva kera abawukora bose basusurutsa abantu babashaga kuba babona amafaranga, iyo bagiye mu birori runaka cangwa muri konseri runaka bikabafasha kwishurwa neza bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo byabo.

Umutego utega imbeba ni mwiza cyane. Kubera ko umutego utega imbeba uturinda imbeba. Imbeba ziturira imyaka yo mu nzu, imbeba zitubangamira nijoro turyamye, zikangiriza ibintu. Ubwo rero umutego ni ikintu cyiza cyane kidufasha kuba twakwirinda imbeba, tugakomeza tugatera imbere nta mbeba ziba mu nzu.

Guhamiriza ni umwuga mwiza cane turawukoraga. Umuntu ashobora kuba yagukora, ariko kugira ngo yishimishe umuntu ashobora kuba ya gukora nka siporo. Ikindi kandi umwuga w'ubutore ushobora kuba watunga umuntu uwukora, igihe yagiye mu mbaga nyamwinshi akabasusurutsa bakishima, abantu bakamuha amafaranga.

Izi ntebe ni intebe zizwi cyane mu muco wa kera barazikoraga, n'ubu baracyazikora, zituma abantu babona amafaranga cyane cyane nk'abantu bazikora bagenda baziboha, babona amafaranga bakabasha kwishyurira abana ba bo amashuri.

Gusimbuka urukiramende ni ibintu byiza cyane bihuzaga abana bakabasha kuba bakwishima, ndetse bakanakora n'amarushanwa yo gusimbuka urukiramende. Ababare na bo birabashimishaga, ku buryo bishobora kuba byatuma babifata nk'akazi. bakaba baja bashimisha abandi, bakabona amafaranga go gukukemuza ibibazo byabo.

Inzu z'ibyatsi ni inzu ndangamurage, zarangwaga ibwami ndetse n'ahandi hose, muri rusange barazigiraga mu muco nyarwanda, kuri ubungubu ziracahari ariko ahantu ziri ni ahantu hari amamize, hari amazu ndangamurage.

Isuka ni igikoresho gikoreshwa n'umuhinzi. Abahinzi bara bagendaga mu maduka baka bakayigura, bamara kugura bakayizana bakaja bayikoresha bari guhinga, bamara kuyikoresha bakabona umusaruro uturutse mu byo bahinze.

Gukoresha isekuru dushaka ifu y'ubugari byahozeho. Iyo umuntu umuntu abonye isekuru akaba yabasha kuyigurira, yabashaga kuba yasekura ubugari, akabasha yabona kuba yabona imivunde akayisekura, yamara kuyisekura agateka akarya byoroshye, kubera ko yabaga yasekuye ntahantu yagiye gushesha.

Abantu bacuruza ibintu bijanye n'umuco gakondo, bagacuruza ibicuma, bagacuruza ibibindi, bagacuruza n'ibindi bitandukanye. Bibafasha kugira ngo batere imbere babone amafaranga bagurisha ibintu muri rusange, ibyo bagurishije bagafata amafaranga bakuyemo, bakayakemuza ibindi bibazo byose bafite.

Amacumu, amacumu ni ibikoresho byakoreshwaga kera ndetse n'ubu bigikoreshwa mu muco nyarwanda, akenshi cyane intore zikoresha amacumu ziri guhamiriza, ziri kugira ngo zigaragare neza nezamuri rusange.

Inzu ndangamurage ni ikintu ciza cane， inzu z'ibyatsi ni inzu za kera zaturwagamo n'abantu， usibye ko kuri ubungubu byahindutse， ariko na none kuri ubungubu ni inzu zikurura ba mukerarugendo， baje kureba amateka y'u Rwanda.

Umuvure ni igikoresho cyiza muri rusange iyo ababaji bamaraga kukiba... ku ku kubaza barawufata bakawujana bakaja barawukamiramo ibitoki abandi bashobora kuba bawushira ku mureko ukaja urajamo amazi.

Agaseke ni keza cane abagore bashobora kuba bagatwara bagiye mu bukwe, abandi bashobora kuba bagatwazamo ibintu bitandukanye, abandi bakakagira imitako. Iyo umuntu yagakoze arakagurishaga akabona amafaranga ashobora kuba yahahisha ibindi bintu.

Guhamiriza ni umwuga mwiza cane abawukoraga babashaga kuba babaho bishimye, barambutsa bafite umubiri muzima kuberako umwuga w'ubutore ni umwuga mwiza cane ushobora kuba wahinduka siporo muri rusange ukaba wagira umubiri uzira indwara, ukanaba wakoreramo amafaranga ukiteza imbere.

Umuco ni ikintu gikomeye cane. Umuco ni ikintu gikomeye cane, abantu benshi bajaga gusura inzu ndangamurage, bagasura ibikorwa runaka, ariko na none iyo umuntu akurikije umuco, abasha kugera kuri byinshi.

Umuco wo kuzinga neza imisatsi bakayigira neza, bakayikorera amasuku nk'abagore nk'abari b'u Rwanda, ni ibintu byiza cane kuko byatumaga bituma abakobwa bagaragara neza, canga abagore bakagaragara neza ku bagabo babo.

Umuco wo gusangirira hamwe wari umuco mwiza ni umuco mwiza cane wahuzaga abanyarwanda n'ubu ukibahuza ,aho bahurira mu bahurira ahantu hamwe bagasangira bakishima bagacoca ibibazo byabo cangwa se bakaba bagahura bari bari mu bihe byiza by'ubukwe.

Umuco go kuvuza amakondera ni umuco mwiza cane wahozeho na kera gose, abantu bakagakoresha mu bukwe bakagakoresha kugira injyana bari bari kubyina igende neza. Ikindi kandi ku bakora uwo muco, ku bafite umuco ubafasha kugira babashe kuba babona amafaranga avuye mu kuntu biyerekanye, abantu bakabishyura.

Ingano nziza cane, turazihingaga bikadufasha kuba twazigurisha, twamara kuzigurisha abo tuzigurishije bagakoramo imigati, tukabasha kuba twazirya n'abandi bakanywamo igikoma. Mbese muri rusange imigati ituruka, imigati myinshi ituruka mu kuba abantu babetesheje, babetesheje ingano.

Umwuga go gucuranga inanga gwahozeho na kera hose mbese ni umwuga ukunzwe cyane. Kubera ko umwuga ujanye n'umuco nyarwanda. Muri rusange abantu ba kera, bajaga barawukoresha, bakawukoresha mu bukwe, bakawukoresha mu bindi birori bitandukanye, bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo nk'abantu bawukora.

Inzu z'ibyatsi zabaga ari inzu nziza cyane inzu za kera zabagamo abami, urugo rwubatse ubungubu zibaga muri mizi abantu bakoramo babonaga amafaranga ,biciye mu kuba hari abantu baza kuhasura bakishyura amafaranga, bakeneye kumenya ibintu bya kera byose.

Igicuma cangwa intara n'ibikoresho byakoreshwaga mu muco nyarwanda harimo n'umuseke ababikoraga barahembwa igihe babashaga kuba babikora bikaja ku isoko bikagurishwa babonaga amafaranga yo kwifashisha bari gukemure ibibazo byabo ndetse natwe nk'abamwe tubikoresha tukabasha kuba twabikoresha tunwa ubushera tunwa ugwagwa n'ibindi byose bitandukanye.

Imboga zibaga nziza mu muco nyarwanda mu muco nyarwanda. Kuba wazirya bikuberaga byiza kubera ko zitumaga wirinda indwara, ukabaho neza umubiri wawe ufite ubudahangarwa. Ikindi kandi imboga kuba waba uzifite muri rusange, bituma wazigurisha ukabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Umuco ni ikintu gikomeye cyane, kuko bakunda guca umugani mu kinyarwanda ngo "agahugu katagira umuco karacika." Ni byo koko iyo umuntu afite umuco aba afite ikintu gikomeye cyane, aba afite umwihariko, ni na byo biba bigomba kuranga agatsiko runaka kuba kagira umuco wako wihariye, bikanafasha kuba kagaragara neza.....

Ibikoresho bya kera bishobora kuja mu nzu ndangamurage byakoraga， bamwe babikoreshaga basarura， abandi bakabikoresha mu buryo bwo kuba bahinga，abandi bakabikoresha mu buryo bwo kuhira.

Inka ziba nziza, ufite ubushobozi wese arazorora, iyo azoroye neza, zigakura zikaba nziza, zishobora kuba zatanga umusaruro ukomeye cyane, zishobora kuba zatanga amata, zishobora kuba zatanga inyama, izindi zigakoreshwa mu birori runaka, bazitangamo inkwato.

Umwuga wa gitore wo guhamiriza n'umwuga mwiza cane utumaga umuntu uwukora yishima kuko iyo umuntu ari kubyina abaga yishimye ndetse n'abamureba bakabona ari ibintu byiza cane bigashimisha amaso n'ubwonko bwabo ndetse bishobora kuba byakorwa nk'akazi ukaba wahabwa amafaranga ugasusurutsa abantu.

Ikirago ni ikintu cyiza cane, kubera ko abantu bose bagikoreshaga kuva na kera hose, bagashaka nko kwiyicarira ahantu bakacicaraho bagikoreshaga mu mwanya w'intebe, ikindi kandi ikirago ku bantu bakibohaga babashaga kubona amafaranga, binyuze mu kuba bakiboha barangiza bakakigurisha.

Umwuga w'ubuvumvu ni umwuga mwiza cyane， ushobora kuba wagufasha，iyo ufite imitiba myinshi iragufasha cyane，ugakuramo ubuki bwinshi，bumwe ukaburya， ubundi ugasagurira amasoko，iyo ubonye nk’amafaranga ukuye ku isoko wagurishije ubuki，bigufasha kwiteza imbere， gukemure ibibazo byo mu rugo ibindi wari ufite muri rusange.

Igisabo ni ciza ni igikoresho ca kera cakoreshwaga n'abanyarwandakazi igihe babaga bari gucunda amata, canga igihe babaga bagiye mu bukwe cyara kirakenerwaga mu muhango mu mihango y'ubukwe, bagihaga umugeni, umugeni akakijana canga akakijana no kwa sebukwe canga n'ahandi hantu bakaja baragikoresha bari gucunda amata.

Umuco wo kubumba inkono cyangwa kugira neza ibicuma, ni umuco mwiza cyane. Ushobora kuba wawukoresha ukabikora, ukabijyana muri mize(musée), cyangwa se wabifata ukabigurisha abaturage, wabona amafaranga ukayakoresha uri kuyubaka, uri kwiteza imbere. ushobora kuba waguramo ibyo kurya cyangwa ugashakamo ku....

Ingobyi ni ingobyi bahekagamo ababyeyi, ababyeyi batwite bagiye kubyara. Abarwayi barwaye bagiye bagiye kwa muganga badashoboye kwigenza n'amaguru. Kubera ko ambiranse zitari zakaje, ni byo byatumaga ingobyi, ni yo bakoreshaga kugira ngo babashe kubagezaho umuntu udafite ubushobozi bwo kwigenza kwa muganga, akagerayo amahoro akavurwa agakira, agataha.

Ikigega cabaga ari ikigega cyiza cane, kubera ko abantu baracubakaga bamara kucubaka bakagishiramo imyaka, bakazayikuramo bakazayikuramo igihe bashakiye. Kandi ikigega catumaga imyaka itabora, abantu bakabaho bizeye neza ko aho bashize imyaka yabo, ari ahantu hazima hatazazangiza.

Isekuru ni kimwe mu bikoresho bya kera byakoreshwaga n'abanyarwanda ndetse bishoboke ko ntahandi mu bindi bihugu bajyaga barabikoresha, ariko isekuru kudufasha gusekura tukabasha kubona uko turya nk'imyumbati, turayisekura ndetse n'amasaka amwe namwe turayasekura, kugira ngo abashe kuba yavamo turiya tuntu tuba duhari tw'umukara, ndetse ikindi isekuru idufasha kuba yadufasha gusekura isombe tukabaho twishimye.

Ibishimbo bibaga byiza cane, ibishimbo turabihingaga, twabihinga bikera neza, tukabigurisha, ibindi tukabishira mu mago yacu, tukabisevinga, igihe dukeneye kubirya tukabirya, tukabaho twishimye, birindaga n'indwara, bitumaga umubiri ukomera, umubiri ukaba muzima.

Isekuru ni agakoresho keza cane kubera ko iyo ugafite ubashaga kuba wasekura ubunyobwa cangwa se wasekura isombe cangwa ukaba wasekura amasaka turiya tuntu tw'umukara tukavaho, ikindi kandi isekuru ishobora kuba yagurishwa ukabona amafaranga yo gukoresha ibindi mu gihe ushoboye kuyikora.

Ahantu nk'aha ng'aha habaga heza cane, kubera ko niho hantu hashobora kuba hakupirwa amashanyarazi mu gihe habaye ikibazo runaka, cangwa se ukaba wahabona akazi mu gihe wize amashanyarazi, cangwa se utariyize wanajagamo ukaja uranakubura cangwa se ugakora amasuku muri rusange.

Keto ni nziza tura turayiguraga, twamara kuyigura tukayikoresha tuyishushamo amazi bikadufasha kuba twakora ibintu byihuse nyine mu gihe dushuhije amazi mu gihe gito akaba arahiye bitadusabye kuba twagira dutya ngo ducane imbabura cyangwa tugire ukundi ukuntu tubigenza.

Ipensi ibaga nziza cane kuberako ari igikoresho c'umu cumu c'umuntu ukoraga mu bintu bya tekinike, irafashaga cane umuntu ari gufungura amavisi bigatuma bigatuma yorosha akazi akabaho neza yishimye, kuko itangaga n'amafaranga, ishobora no kuba yahinduka igicuruzwa uyicuruza akabona inyungu akishurira abana amashuri agakemura n'ibibazo by'iwe muri rusange.

Fizibure iba nziza cyane kubera ko igihe cyose habaye ikibazo mu nzu yawe cyangwa se hari nk'icyuma wacometse kikagira ikibazo kiri ku muriro w'amashanyarazi ishobora kwikupa maze ntibitange inkongi ikomeye cyane

Amashanyarazi ni ikintu ciza cane kubera ko iyo dufite amashanyarazi tubasha kubona urumuri mu gihe ijoro ryaguye cangwa se amashanyarazi atuma tubasha kuba twashitura ibikoresho byose bikoreshwa nayo nka zaketo amaradiyo ndetse n'amateleviziyo.

Urusengero ni inyubako nziza cyane, ni inyubako ihuriramo n'abaturage, abaturage bajemo baba ari abaturage bagiye gusenga Imana bagiye kugira ibyo bayisaba no gusaba imbabazi ku bicumuro byabo byabo, ku byaha byabo bakoze, kandi kandi urusengero rubaga rwiza cyane kubwo kuko ariho hantu heza ho kwigira kwigira amagambo meza yo muri Bibiliya muri Bibiliya.

Ikira ikiraro kinyuze hejuru gikoreshejwe c'ibyuma kibaga ciza cane, kubera ko abaturage baragikoreshaga bari kwambuka, igihe haba habaye umwuzure, ndetse bakanagikoresha no mu no mu zindi nzira zitandukanye iyo babyifuje kukinyuraho.

Amazu ni meza cane amazu amwe n'amwe tugabagamo , agandi tukagacururizamo , agandi tukagakodesha abapangayi , abapangayi bakaja baratwishura , iyo batwishuye neza turagafataga amafaranga baduhaye tukagakoresha ikindi ikindi kintu.

Urusengero ni rwiza rutuma abantu tumenya Imana tukabaho twishimye, kuberako tuba twihannye ibyaha twese tukabaho dukundana kuberako habamo amategeko n'amabwiriza, hakabamo n'igihe abapasiteri baba bari kwigisha abantu kumenya Imana no gukundana

Ibikorwa remezo nk'ibingibi bibaga bikeneye amashuri, ibigo bya polisi bibaga bikenewe kugira ngo abapolisi abe ari ho babarizwa, ugize ikibazo abe yahabasanga ndetse zibe inzu za nyazo z'abapolisi, aho twabasanga kugira bakemure ibibazo byacu banadufashe no kurinda umutekano

Gutura mu mudugudu ni ibintu byiza cane, iyo abantu bagiye gutura mu mudugudu, amazu garubakwaga, gwubakwaga n'abafundi, bakabona amafaranga, igihe barangije kubaka, bakayajana mu mago ya gabo, n'abaturage bakabona aho batura hafite umutekano, hemewe no guturwa.

Ibiro by'akarere by'akarere by'akarere ako ari ko kose ni ibiro biba bikomeye ahantu haba hakomeye cane, abaturage bajana ibibazo byabo byananiranye bigakemukira mu karere, abayobozi nabo bakoramo bakaba bakaba ari abayobozi bafite gahunda ,babona amafaranga aturutse mu kuba bakemuye ibibazo by'abaturage.

Ikiraziya ni ikintu cyiza cyane. Ni inyubako nziza yubashwe yubashwe cyane mu iyi si kubera ko ikiliziya kiliziya ni ahantu umuntu abantu bashobora kuja bakaja bagiye gusenga, bagiye kwiga ijambo ry'Imana bakamenya bibiliya ntagatifu n'ibiyigize byose byose bikabafasha kuba bagendera mu nzira nzima ikwiriye.

Urusengero ni rwiza cane ruberagamo ibintu byinshi bitandukanye bihuza abantu bagiye bagiye kwiherera n'imana ,abantu bose bashaka kuja gusenga bajaga mu rusengero bakiga bibiliya bakiga n'izindi nzira zose zitandukanye, amagambo meza n'uburyo wabana neza n'abandi.

Inzu nkizi ngizi ni nziza cane, kubera ko abantu benshi barazikoresha, bazibamo, bazishiramo amahoteli, bazishiramo amaresitora, bazishiramo n'ibindi bintu byinshi cane bitandukanye, ndetse bashobora no kuba bazishiramo utubyiniro, n'utundi tuntu twinshi dutandukanye bashobora gukorera muri ayo mazu.

Inyubako nk'izi ngizi zigerekeranye ni inyubako zishobora kuba zahinduka ibigo by'amashuri, ni inyubako zishobora kuba zahinduka amahoteli, amahoteli cyangwa amamoteri rusange, bigatanga akazi ku bantu bazikoramo nk'abacuruzi cyangwa se abantu bakora muri moteri bakaba babasha kubona amafaranga aturutse, aturutse muri serivisi batanga.

Inyubako nziza cyane zishobora kuba zahinduka ibigo by'amashuri. Ikigo cy'amashuri kikaba cyiza cyane. Gishobora kuba cya turerera abana bacu ndetse kikanatanga n'akazi, kuba harimo abakora amasuku n'abandi bose abashinzwe umutekano, n'ibindi bitandukanye, abantu bashinzwe umutekano bashobora kubonamo amafaranga akabatunga ndetse n'abarimu bakabona amafaranga bibafasha mu gukemura ibibazo byose bafite m'urugo. Muri rusange harimo ngo kuba kwishyura umuriro.

Ibyapa bibaga byiza cane kubera ko ibyapa biyoboraga abantu, abantu bakamenya aho bageze n'aho bagiye muri rusange bakahamenya. Bakamenya igihe basigaje kugira ngo bagera ahantu runaka. Nko mu bigo by'amashuri birakoreshwa cane, mu nganda zitandukanye, ndetse n'ahantu umwanya mu mwanya runaka ibyapa birakoreshwa biyobora abantu muri rusange.

Amashuri ni ikintu ciza cane, amashuri ni ikintu umuntu akuramo ubumenyi abana bigamo bakabona ubumenyi bazakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, amashuri arindaga inzererezi , akarinda n'ikindi kintu cyateza umutekano muke mu Gihugu , abana b'Urwanda bakabaho bishimye.

Insengero nazo zibaga nziza cyane kubereko abantu natwe turagenda tukajya gusengeramo ,tugahuriraho n'abandi tukagira ibintu twunguranaho ibitekerezo mu bintu bijyanye n'iyobokamana .Tukiga bibiliya dufite kwiga n'ibindi bihe byinshi cyane bishobora kudufasha tukagendera mu nzira nziza z'ishobora kutugeza ku iterambere.

Inyubako igeretse ibaga nziza cane, iyo abafundi bayubatse bakayirangiza nawe ugashiramo nawe ugashiramo ibikorwa byawe, nk'ubucuruzi, hoteri cangwa moteri canga n'iyo washiramo n'akabari byose bigendaga neza, ugacuruza, ukabona amafaranga.

Urusengero ni ni ikintu cyiza cane kubera ko kiradufasha tukagira aho duhurira twese muri rusange ,nta muntu nta muntu utabasha kuba yaba afite ubushobozi bugera mu rusengero yashaka akamenya Imana, akamenya bibiliya ibyanditswe ndetse bikanamufasha no kwiga uburyo yabana neza n'abandi.

Kuba abantu bahurira ahantu nk'ahangaha bituma bungurana ubumenyi, icyo batazi bakabaza bakabaza ubakuriye cangwa se bakabaza bagenzi babo begeranye, bigatuma bakominikana neza bakanungurana ubumenyi.

Urusengero ni ikintu cyiza cane kubera ko burya urusengero iyo iyo rwubatse neza iyo rurimo abapasitori bazima bazi kwigisha ijambo ry'imana bitumaga abaturage bahayoboka abaturage iyo bahayobotse bigiragamo amagambo meza muri bibiliya bakamenya Imana no gukora ibinogeye Imana.

Urusengero ni inyubako nziza cane, inyubako ihuriramo abakirisitu benshi cane batandukanye, aho biga iyobokamana, bakiga ijambo ry'Imana binyuze mu kuba basoma bibiliya, bibiliya yera.

Umwuga wo kubaza canga uwo gukora intebe ni umwuga mwiza can ushobora gukorwa na buri umwe wese wabyize neza abifite abifitiye gahunda. Uyu mwuga kandi ushobora kuba waguteza imbere, ukaba wakora ibintu ukabigurisha ibyo ugurishije ugafata amafaranga ubigurishijemo ukayakoresha witeze imbere.

Korari ni ikintu ciza cane，kubera ko iyo uri muri korari ubashaga gusabana n'abandi nta kabuza， ikindi kandi ukabasha kuba wamenya kuririmba，ugahora wishimye kubera ko uba uri kugorora ijwi， iyo umuntu ahoranaga n'abandi bituma bungurana ibitekerezo mu buryo bw'iyobokamana， bakabasha kumenya bibiriya icyo aricyo bakanayisobanukirwa.

Buriya amashuri ni ikintu cyiza cane, ni inyubako nziza cane, ishobora kuba yagibwamo n'umuntu uwo ari we wese, apfa kuba ari umuturage w'igihugu, afite ubwenegihugu cyangwa se akaba ari umuntu waturutse hanze, igihe yemerewe akiga, bituma abarimu babona akazi, bitumaga abanyeshuri biyongera ubumenyi ndetse na guverinoma y'u rwanda ikabasha kuba yabona aho iba ishyize urubyiruko rwayo.

Uburenganzira bwa muntu, iki ni ikintu ciza cane. Kubera ko uburenganzira bwa muntu iyo tubwize tukabufata neza, umuntu amenyaga ko agomba kugira inzu, umuntu amenyaga ko agomba kugira umuryango, ababyeyi ndetse n'izina.

Kwigisha abana, kwigisha abana uburenganzira bwa muntu, ikintu cyiza cane kubera ko bakura bazi uburenganzira bwabo, bakamenya ko babu bafite uburenganzira bwo kuba bagira umuryango, kuba bagira aho babarizwa baba, no kuba ba ba bagira uburenganzira bwo kwitwa amazina nyine asobanutse.

Uburenganzira bwa muntu n'ikintu ciza cane umuntu aba agomba kuba yagira uburenganzira k'unzu uburenganzira ku izina uburenganzira kuri famiye umuntu afite uburenganzira bwo gusenga aho ashaka ndetse n'ibindi byinshi cane

Umuntu agiraga uburenganzira butandukanye, umuntu agiraga uburenganzira ku mitungo, umuntu agiraga uburenganzira ku nzu, umuntu agiraga uburenganzira bwo kuba yakwishima, umuntu agira uburenganzira kuba yagira izina, umuntu akanagira uburenganzira kuba yagira umuryango, mbese muri rusange uburenganzira bwa muntu ni bwinshi cyane, umuntu wese aba ategetswe kuba yamenya uburenganzira bwe akanabuharanira.

Uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera ni ikintu gikomeye cane buri muntu wese aba agomba kumenya, twebwe nk'abantu tukiri bato tuba tugomba kubimenya, abakuze bakabimenya, abakivuka bakimenya ubwenge bakigishwa uburenganzira bwa bo ko umuntu agomba kugira uburenganzira ku nzu, ku izina no kugira umuryango.

Uburenganzira bwa muntu ni uburenganzira umuntu ashobora kuba yagira muri rusange, akabugira ari n' itegeko ku bw'uko umuntu agomba kugira izina, umuntu agomba kugira umujyango, umuntu afite uburenganzira mu kuvuga ururimi yifuza, umuntu afite uburenganzira bwo kuba yagira inzu yagira umuryango, ndetse n'aho abarizwa. Umuntu afite uburenganzira bwo kuba yagira ibintu byinshi bitandukanye ndetse akanabumenya.

Uburenganzira bwa muntu n'ubutabera ni ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. umuntu aba afite uburenganzira ku izina, kuba yakwambara imyenda, kuba ya yagira aho abarizwa, kuba yagira umuryango, n'ubundi bwinshi cyane aba n'ubundi bwinshi cyane buba ari uburenganzira agomba kumenya. Umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka apfa kuba atabangamiye abandi.

Uburenganzira bwa muntu ni bwiza cane co kimwe n'ubutabera, buriya umuntu uwo ari we wese aba afite kuba yagira izina akaba yagira umuryango akaba yagira n'aho abarizwa, ndetse n'ibindi byinshi umuntu ashobora kuba yagira bimuhesha uburenganzira ku kintu runaka. Igihe icyo ari cyo cyose ibyo byose bitabayeho hakazamo ubutabera bukabasha kubikemura.

Uburenganzira bwa muntu ni ikintu gikomeye cyane， cyo kimwe n'ubutabera，igihe habayeho gukora ibyaha， umuntu afite uburenganzira bwo kugira inzu，umuntu afite uburenganzira bwo kugira izina，umuntu afite uburenganzira ku myambaro， umuntu afite uburenganzira kuri famiye， umuntu afite uburenganzira ku bintu byinshi bitandukanye.

Uburenganzira bwa muntu ni ikintu gikomeye cyane kubera ko iyo ufite uburenga iyo umuntu ashobora kuba yagira uburenganzira ku izina uburenganzira ku nzu uburenganzira bwo kugira umuryango ndetse n'ibindi byinshi cyane umuntu ashobora kubiba yagira mu burenganzira umuntu ufite uburenganzira umuntu aba afite uburenganzira bwo kuba yakora ibyo ashaka bitabangamiye abandi.

Uburenganzira bwa muntu ni ikintu kiba kigomba kubahirizwa, ndetse ni ikintu cyiza cane twese twese tuba tugomba guharanira, umuntu agomba kuba yagira izina, yagira umuryango, ndetse yagira n'aho atuwe.

Hari ibindi ntigeze ku igare byiza cane bishobora gutuma umunyonzi abona ibyo kurya abona amafaranga go kwishyurira umwana w'amashuri bikanafasha abantu kugira babashe kuba bakura imizigo ahantu hamwe bayijana handi ndetse bikanatuma abagerayo vuba bishimye

Umwuga wo gutwara abagenzi ni umwuga mwiza cane， ushobora kuba wakorwa na buri umwe wese ufite kategori，umuntu wese uwukora ni umuntu ushoboye kuba yatwara，iyo utwaye neza ukabona abagenzi bo gutwara， ubonaga amafaranga， ukayajana mu rugo，ugakemura ibibazo byose wari ufite，ukagurira abana amakayi，amakaramu，imyenda yo kujana ku ishuri， n’umugore akabasha kuba yabona ibyo kurya.

Igare ni ryiza cane riradufasha mu byo dukora ari mu ngendo dukora muri rusange igare rishobora kuba ryaduhekera imizigo tukajana byoroshye tukazigeza aho tuzijanye bita bitatuvunnye

N'izi modoka ziradufasha kubera ko zitworohereza muri rusange, ku bantu tudashoboye kugura imodoka zacu ziri pirive. Tubasha gutanga amafaranga makeya ashoboka, ubundi tukava ahantu hamwe turi kujya ahandi.

Ku kibuga cy'indege hari Rwandeya n'abakozi bakora ku kibuga bakora mu ndege, hari abambaye amajire, abambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki.

Aga mabisi gakoreshwaga n'abantu benshi cyane, ni amabisi adufitiye akamaro. kubera ko atangaga akazi ku bashoferi no kubakomvayeri. Ikindi na twe bikadufasha cane kumwe abantu tudashoboye kugura amamodoka tukabona ukuntu tuva aha nanga tujya ahandi.

Kampani zitwara abagenzi ni iz'ingenzi cane, nk'izi modoka zitwara abagenzi rusange, zifashaga abantu badashoboye kuba bakigurira amamodoka canga ibinyabiziga, bakabona ahantu, bakabona n'ukuntu bagenda bagiye gukora mu voma runaka.

Imodoka nini zitwara imizigo ni nziza cane, kubera ko zifasha abantu bakabona akazi. abakomvayeri ndetse n'abashoferi bakaba babona akazi ikindi zidufasha abantu bishyura amashuri bishyurira abana b'amashuri bikanadufasha kuba twabona ibyo turya

Taransiporo rusange ni taransiporo nziza cane, kubera ko itumaga abantu tuzayi tudafite ubushobozi bwo kuba twakwigurira ibya imodoka zacu cangwa moto zacu, tubona uburyo tu tumo dukora dukora ingendo za hato na hato, ziva mu gace kamwe zija mu kandi.

Taransiporo y'ubunyonzi ibaga nziza cane kuberako nk'abanyonzi babonaga amafaranga iyo babonye abo batwara, ikindi kandi ubunyonzi bubaga bwiza cane butumaga tuva ahantu hamwe tuja ahandi byoroshe, bitewe n'amafaranga dufite yo gukoresha dutega.

Abantu bari kwinjira mu modoka igiye kubatwara. Buriya buriya imodoka zitwara abagenzi rusanze njye nazo ni nziza cyane. Ziradufashaga tukagera iyo tugiye amahoro, ndetse tukanagerayo byihuse nta kibazo cyabaye.

Igare ni ryiza cane kubera ko ribasha rishobora kwikorera imizigo twebwe abantu tutabasha kwikorera, ikindi kandi ririhutaga kurusha twebwe abana b'abantu, igare ribaga ryiza muri rusange, rishobora gukoreshwa muri bizinesi, rigatuma umuntu atera imbere byihuse.

Taransiporo y'amagare iradufashaga ni nziza cane. Kubera ko ibintu igare ryikoreye ntabwo twebwe nk'abana b'abantu dufite ubushobozi bwo kuba twabyikorera. Ikindi bidufashaga igare ririhutaga tukagera aho tugiye byihuse nta kibazo kibayemo.

Imodoka zitwara abagenzi rusange ni nziza cyane, kubera ko umuntu wese, ntabasha kuba yabona amafaranga yo kwigurira imodoka, icyo gihe bifasha abaturage batabishoboye, kugendera mu modoka rusange, bakishyura amafaranga make, maze imodoka rusange, zikabafasha kugera aho bagiye byihuse.

Gutwara abagenzi rusange ni ibintu byiza cyane, kubera ko abantu bose bataba bafite ubushobozi bwo kwigurira ibinyabiziga bagendaho. Batwarwaga n'abandi bantu, abo bantu akaba ari akazi kabo ka buri munsi, bikabafasha kugira ibibazo byo mu muryango bakemura nko kuba bakishyurira abana amashuri, bakanabonera n'umuryango ibyo kurya.

Rifani ni igikoresho cyoroshe kuba wakibona kurusha kuba wagura imodoka, kubera ko yo irahe kubera ko yo irahendutse cane. Ikindi kandi rifani ishobora kuba yagufasha kuba wava ahantu hamwe uja ahandi. Ikagufasha mu gutwara imyaka yawe, na cangwa se nko mu mu kuvana amata ahantu hamwe uyajana ahandi.

Mu gutwara abagenzi canga gutwara imizigo n'igikorwa kibaho kubera ko habayeho amata aya matagisi cyangwa izi bisi zitwaraga abagenzi rusange abazifunguye bakajya baratwara abagenzi rusange inyungu kuba bazifunguye nuko babonaga amafaranga igihe babonye abagenzi batwara n'abagenzi inyungu yabo ni uko igihe babo igihe bakeneye bakeneye kuva mu mwanya umwe baja mu gundi badafite ubushobozi bwo kugurira izabo bazigendagamo bakagerayo vuba.

Bisi zitwararaga abantu ni nziza cane kubera ko zibashaga gutwara abantu rusange mu gihe abantu rusange bose bose batari kwibonera amafaranga yo kugura imodoka zabo cangwa kugura ibindi binyabiziga byabo bigatuma n'umushoferi abona amafaranga akuye mu kuba yatwaraye abagenzi.

Umwuga w'ubutwara umuzigo ni umwuga mwiza cane abawutwara mwibiba imodoka mu modoka binini cane bitwara imizigo icyo gihe umushoferi uba utwaye yabonaga amafaranga na nyir'imodoka agabona amafaranga biturutse kuba bagejeje ibicuruzwa cangwa se umuzigo abagombaga kugera maze bakishurwa.

Jagwari akenshi idufashaga kuba twava mu gihugu cy'u Rwanda tugana mu bindi bihugu. Jagwari ni imodoka umuntu agendamo muri rusange ntabwo ari imodoka ikoreshwa n'umuntu umwe ahubwo ikoreshwa n'abantu benshi bikaborohereza mu kuba bagenda batagiye mu modoka ziri pirive zihendaga.

Imodoka zitwara abagenzi rusange ni imodoka zifite akamaro gakomeye cane, kubw'uko buri umwe wese ntago afite ubushobozi bwo kuba yagura imodoka ye cangwa yagura ikinyabiziga c'iwe, irafasha rero ikatugeza aho twifuza tugatanga amafaranga make dufite mu mufuka mu mifuka yacu.

Imodoka zitwara abagenzi rusange zibaga ari nziza cane, kubera ko zitumaga abantu tudashoboye kugura amamodoka, tudashoboye no kwigurira ibinyabiziga, tubona uburyo tu dukora muvoma ziva hamwe zija ahandi .Zi ingendo zitandukanye tuzikoraga mwaga mamodoka, bikadufasha kugerayo vuba kandi byihuse cane.

Imodoka zitwaraga abagenzi rusange zibaga nziza cane, kubera ko iyo zidahari abaturage baburaga uko bagenda. Twese ntago dushoboye kuba twakigurira amamodoka go kugendamo, bikaba ariyo mpamvu bidufasha tukishura makeya tukava ahantu hamwe tuja ahandi nta kibazo kibaye, kandi tukagerayo vuba.

Taransiporo ibaga nziza cane nk'izi modoka zitwara abagenzi rusange zibafashaga kuva mu mwanya umwe bajya mu wundi igihe bo ubwabo batifitiye ibinyabiziga bibatwara bifashaga bakishyura udufaranga dukeya maze bakageraho bashaka kugera amahoro

Amabisi gatwaraga abagenzi rusange ni meza cane kuberako atwaraga abagenzi badafite ubushobozi bwo kwigurira amamodoka gabo, ikindi kandi akaba atangaga akazi ku bantu bamwe na bamwe abashoferi, abakomvayeri, n'abayasuku n'abagasukuraga abasukuragamo imbere, bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo byabo.

Siporo ni nziza cya ni nziza cane kubera ko ituma umuntu agira umubiri mwiza ukomeye kandi umubiri tutagira indwara, siporo iradufasha ikadufasha guhura n'abandi tugakomikana, tukaba twakemura ibibazo binyuze muri siporo.

Siporo ni nziza cane, iyo umuntu yakoze siporo abashaga kuba yagira umubiri ufite ubudahangarwa, umubiri utahura n'indwara byoroshe. Umuntu akaba igihe kirekire adasaza, siporo irindaga umuntu gusaza vuba, ndetse ikindi siporo ishobora kuba yahinduka umwuga ukora muri rusange ukaba wabonamo amafaranga.

Siporo ibaga nziza cane abantu barayikoraga iyo wakoze siporo neza ubashaga kuba wakwirinda indwara zitandukanye zishobora guhangara kubera ko udafite umubiri ukomeye ikindi kandi siporo ishobora kuba yahinduka umwuga ukora nk'abakinnyi bumupira w'amaguru canga n'izindi zitandukanye babonaga amafaranga aturutse mu mupira w'amaguru kubera ko babigize umwuga

Siporo ibaga nziza cyane kubera ko itanga akazi hari abagira akazi bakitwa abayobozi bamwe na bamwe ba siporo nka minisitiri w'umuco na siporo abandi bagakora siporo bakiteza imbere binyuze muri siporo bakaba bakinnye bumupira w'amaguru babigize umwuga cyangwa n'indi mikino iyo ari yo yose bakabasha kubona amafaranga abatunga bakanagirana ubuzima bwiza binyuze muri siporo kuko siporo iririnda indwara.

Siporo ni nziza cane kubera ko ituma umubiri ugororoka, igatuma umuntu yirinda indwara zitandukanye ziterwa ziterwa no kuba udakora siporo. Nka za rubagimpande zose iyo wakoze siporo ziragendaga, ikindi kandi bigufasha kugira ngo uhore wishimye.

Siporo ibaga nziza cane kubera ko iyo umuntu yakoze siporo abagaho yishimye mu buzima buzima, kubera ko siporo irindaga indwara, siporo ifasha umuntu kuba yakomonikana n'undi, kuko akenshi n'abafitanye ibibazo bakaja muri siporo bavagamo byakemutse babiganiriyeho.

Siporo ibaga nziza cane ihuzaga abantu abantu bakabona aho baba bari kubarizwa, bakaba bihugiyeho bakabona ukuntu bakomeza imitsi yabo bakomeza umubiri wabo, ndetse bikanabarinda n'indwara muri rusange.

Siporo ibaga nziza cane kuko ihuza abantu batandukanye. Abantu batandukanye bakabasha gukominikana, baga baku bagakomeza ubucuti bwabo, abatari inshuti bagahura bahuriye muri siporo. Siporo i siporo ita itanga umutekano w'umubiri wacu, ku bw'uko siporo ituma abantu birinda indwara, za rubagimpande ndetse n'izindi.

Siporo ni nziza cane ihuzaga abantu. Abantu bagahura bagakora siporo, bakishima bikanabafasha kwirinda indwara. Umubiri wahuye na siporo ntabwo ntabwo indwara iwushoboraga, ziwushoboraga.

Siporo ni nziza cyane, siporo ishobora gutuma ugira umubiri ukomeye, umubiri uzira indwara, kubera ko siporo igufasha kwirinda indwara harimo nka rubagimpande ndetse n'izindi zitandukanye, siporo ishobora kuba yahinduka umwuga ukajya uguhemba ukabona amafaranga, ukiteza imbere.

Umukino wo koga ni umukino mwiza cyane, ushobora gukorwa na buri wese uwukunze. Iyo umuntu akina koga ashobora kuba yabikora nk'amarushanwa, akaba yabona amafaranga aturutse ku bawureba, ndetse n'ibihembo bitandukanye bikajya bimugeraho. Akaja arabona n'amafaranga akoresha ibindi bintu byo ku ruhande.

Siporo ibaga nziza cyane. Umuntu wakoze siporo abagaho mu buzima yishimiye, kubera ko abagaho mu buzima buzira indwara, siporo irinda indwara, siporo ishobora kuba yarinda umuntu guhangayika, akabaho umutwe we umeze neza. Ikindi kandi siporo ihuzaga n'abantu bagiye muri siporo, bakaganira ku bibazo byabo, bakabaho bishimye bakemuye ibibazo byabo.

Siporo ibaga nziza, irindaga indwara ikana... siporo ndetse nanone idufashaga kuba twa... twakwishima kuko iyo umuntu ari gukora siporo aba afite ibyishimo, ikindi sipo.. siporo ni bizinesi itanga amafaranga. Nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru ibaha amafaranga ndetse bikabatunga ubuzima bwabo bwose.

Siporo yo kunyonga igare ni siporo nziza cane, itumaga umuntu agororoka mu maguru akagira imitsi ikomeye cane ndetse akanirinda n'indwara ikindi siporo ifasha umuntu kuba yakwitekerezaho, iyo akoze siporo utekerezaga neza.

Siporo ibaga nziza cane, siporo yo ku magare, siporo yo mu...y'ibindi byose ushobora kuba wakora nko gukina umupira w'amaguru, bifashaga muri rusange kubera ko iyo wakoze siporo, iyokoze siporo ugira ubuzima buzima butagira indwara, birinda indwara, ikindi siporo ishobora kuba yagufasha no kuba wakwiteza imbere ubu urakoraga ukabona amafaranga

Siporo ni umwuga mwiza cyane ukora ushobora kuwukora nk'uwabigize umwuga. Siporo ni umwuga ushobora ni ikintu ushobora gukora wishimisha Siporo ni ikintu ushobora gukora kugira ngo wirinde indwara Siporo ni nziza cyane ishobora kuba yaguhesha amafaranga igihe ubikoze neza ukagira ukaba umunyamwuga.

Kigali Arena ni ahantu heza cane, ni inyubako nziza cane yo kuba umuntu yasura, yo kuba umuntu yajamo mu gihe habereyemo nk' ibirori runaka canga habereyemo amanama runaka. Ni inzu mbese ifasha abantu muri rusange kugira ngo kugira ngo igihe bahahuriye ari abantu benshi babashe kuba bakwegerana kandi bavugane bumvikana.

Siporo ibaga nziza cane ku buzima bwa buri munsi, iyo umuntu akoraga siporo agira umubiri ukomeye, akagira umubiri uzirare uzira kuba warwara nta ndwara ahuraga nazo ,ikindi kandi siporo ishobora kuba yaba akazi umuntu akora ka buri munsi agahembwa nk'umukinnyi wabigize umwuga.

Siporo ni nziza cane ihuzaga abantu ishobora kuba umuhuza w'abantu babiri batumvikana, bakaganira bakumvikana babinyujije mu mukino, ikindi kandi siporo itumaga umuntu yirinda indwara akagira umubiri ukomeye, n'ubuzima bwe bukarushaho kuba bwiza.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubw'uko siporo idufasha kuba twakwirinda indwara tukagira umubiri ukomeye ,umubiri uzira kunanirwa vuba, umubiri muzima tukabaho ubuzima burebure tukabaho twishimye, ikindi binatanga n'amafaranga ku babigize umwuga bakina umupira w'amaguru cangwa se n'indi mikino muri rusange.

Siporo ni nziza cyane siporo ihuzaga abantu batandukanye, abantu bahuriye muri siporo babaga bashobora kuganira ku kintu runaka, bakakibonera ibisubizo biturutse mu kungurana ibitekerezo. Siporo kandi ifasha umuntu kuba yakwirinda indwara, akaba yakwirinda n'ibindi bibazo bitandukanye duhura nabyo muri sosiyete.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane kuberako iyo umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri akayikora neza igihe kirekire bimufasha kuba yakwirinda gusaza, akirinda indwara za rubagimpande, akanagira umubiri uzira indwara, icyo gihe iyo umuntu akoze imyitozo ngororamubiri ashobora kuba yabikora nk'umuya yakora imyitozo ngororamubiri nk'umwuga akajya arakuramo amafaranga akoresha akemura ibibazo bye.

Siporo nziza ihuzaga abantu batumvikanaga bakumvikana, siporo ni nziza itumaga tuyireba, turayirebaga tukishima, itangaga amafaranga ku bakinnyi runaka, ndetse no ku bandi bose babaga babigizemo uruhare.

Siporo ni nziza cane turayikoraga iyo twayikoze tugiraga umubiri umeze neza, umubiri umubiri uzira indwara, umubiri muzima tukanabaho igihe kirekire. Siporo ishobora kuba yahinduka umwuga muri rusange ushobora kuba waguhesha amafaranga igihe wabikoze neza bakaja abaguhemba.

Siporo ni nziza cane kuko ifashaga abantu kuba bagira umubiri muzima, umubiri utagira utagira ufite ubudahangarwa ukirinda indwara. Iyo ukoze siporo ubaga uri kwirinda indwara ukanabikora nka bizinesi, ukaja urabona amafaranga nk'umukinnyi wabigize umwuga.

Siporo ni nziza cane kuberako iyo umuntu yakoze siporo imitsi iragororoka ,amagufa agakomera, ndetse n'umubiri ukaguma ari vi umeze neza, ikindi kandi siporo irindaga indwara, siporo ihuzaga abantu bagakominikana byoroshe.

Siporo ni nziza cane ku ku bayikina ibaga nziza. Abayikoraga nziza kubera ko bibasha kuba byakomeza imitsi yabo amagufa bikanabarinda indwara, bakabaho igihe kirekire. Ikindi kandi bishobora kuba byabahesha amafaranga kuko ababireba bose barishyuraga.

Siporo ibaga nziza ca ibaga nziza cane kubera ko ishobora kuba yatanga ibibyishimo ku bayireba ndetse n'abayikora bakaba baboneramo amafaranga kuko kumuntu wese wabigize umwuga aga agakora siporo neza akajya akaja mu marushanwa agatsinda icyo gihe abasha kuba yabona ibintu byose akeneye akeneye kubwuko abantu bamurebye bakishima akanabihemberwa.

Siporo ni ikintu ciza cane bidufashaga kuba twakwihuriza hamwe n'abandi nk'ikipe, ikindi bidufashaga kuba twabona amafaranga kuko hari abakinnyi bamwe na bamwe bitungaga, bikabahesha amafaranga bikomeye cane.

Siporo ibaga nziza cane kubera ko siporo ibaga ibereye ijisho ishimishaga abantu siporo ibaga nziza kubera ko iyo umuntu yakoze siporo abaga arikugirango yirinde indwara ikindi kandi akaba afite kominikasiyo afite umubano mwiza n'abandi

Siporo ni ikintu cyiza cyane kidufasha kugira ngo tubashe kuba twakomeza imitsi yacu n'amagufa yacu, binadufashe kuba twagabanya indwara zitandukanye, harimo indwara ziterwa no kuba abantu badakora siporo, ariko izo zose tubasha kuzirwanya dukora siporo.

Siporo ni nziza cyane kubera ko buriya siporo itangaga akazi kuri buri umwe wese wabishyizemo umutima bigatuma ikamugaburira uyu yabigize umwuga akajajamo marushanwa yajemo mu marushanwa yatsindagaba n'agahimbazamuzisyi akabona n'amafaranga aturutse ku mpande n'impande zitandukanye. Ikindi kandi uzi ko yaririndaga indwara kuuyikora umuntu yakoze neza bimurindaga indwara akagira n'ubudahangarwa mu mubiri ukomeye.

Ubundi utuyira two kunyuramo tudufasha kuba twagera mu murima cyangwa se kuba twagera ahantu hatandukanye tutagize ibyo twangiriza tukagenda hanyuma aha tukagendera ahantu hababugenewe twese tuba tugomba kunyura nta myaka twangije cyangwa ikindi kintu cyangwa ikindi kintu.

Utuyira ni ikintu kiba gikomeye cyane twese tuba tugomba kwitaho kubera ko tura, turadufasha cane tukabona aho ducisha amagare, tukabona aho ducisha imodoka ndetse n'ibindi byose bitandukanye bikaba byadufasha kugirango ndetse twiteze imbere.

Umuhanda nk'uyu nguyu ufite rigore ni umuhanda ukoreshwa cane. N'abaturage barawukoresha kugira ngo babashe kuba bavana ibintu hamwe babijana ahandi. Abandi bakawukoresha kugira ngo babashe kuba bagera mu kazi, mbese muri rusange umuhanda ni ikintu twese twese dukeneraga muri rusange.

Inzira cangwa se umuhanda ni ikintu gikomeye cane bituma abantu banyura banyura mu nzira nzima yabigenewe yabigenewe idateza impanuka ,ikindi kandi umuhanda umuhanda ni ikintu gikomeye cane bidufasha kuba twava ahantu hamwe tuja ahandi.